Umugabo wambaye kositime ahagararanye n'umugore impande ye hari umugore witandiye igitambaro mu mutwe kandi uteruye umwana, hirya hari abana batatu ndetse n'uwa kane uri imbere yabo ufite akantu mu ntoki kameze nk'urupapuro.

Umwana wambaye imyenda y'ubururu ari gucunda igikoresho kivamo amazi. Amazi ari kujya mu gikoresho cy'icyatsi impande ye hahagaze undi mwana wambaye ikabutura irimo amabara y'umukara ndetse n'umutuku n'umweru abandi bana bari kumureba bari imbere ye bamushungeye baramwitegereje undi ari kurereba kuruhande.

Umwana wikoreye igikoresho kimeze nk'ikidomoro cyanditseho amagambo ya yunisefu, umugabo uri kumukorera yambaye umupira w'ubururu ari guseka cyane, afite amenyo manini y'umweru.

Abantu batandukanye bahagaze. Umwe ari kuri telefone, abandi bari kuganira, babiri babiri bari kurebana, hirya hari ahantu, hari ihema ribatwikiriye. Imbere hari icyapa kigaragaza ko kimeze nk'igitambaro cyanditseho amagambo.

Abagabo bambaye amakositime ndetse n'abagore bambaye neza, harimo abambaye amarinete, bari kureba imbere bahagaze ku mirongo itatu, bose bitegereje imbere, hari abafatiye amaboko yabo hasi abandi bayafatira ku ruhande.

Umugabo wambaye ikositimu uri kureba ururabyo imbere ye, impande ye hari uwambaye ijire, impande y'umugabo hari amagambo ameze nk'amazina yanditse mu ibara ry'umweru, yanditse ku cyapa cy'umukara cyangwa se ikibaho cy'umukara.

Umugore uri kureba imbere, afite indangururamajwi imbere hafi y'umunwa ebyiri, yambaye rinete, imisatsi ye iboheye inyuma yambaye agashati kadafunze ibipesi kugera hejuru k'ubururu. Igitereko giteretse imbere ye gisize irangi ry'igitare. Imbere hari amagambo yandikishije ibara rijya gusa umutuku ari ku kantu k'umweru.

Umudamu uteruye umwana, uyu mwana afite intoki mu kanwa, impande y'umudamu hari umwana wundi ariko adateruye, yiteze agatambaro gafite ibara ryihariye, yambaye ishati idafunze ibipesu kugera hejuru.

Abana babiri b'abakobwa, uwambaye ipantaro ndende ihimye mo hasi, uwambaye agapfukamunwa ari kureba undi wambaye agapfukamunwa, umwe afite imisatsi iboheye inyuma amufashe ukuboko.

Umukobwa uri kureba aseka, ari guseka cyane amenyo ye ni igitare, umukobwa arirabura, umusatsi we ni mugufi, imbere yambaye umwenda w'ubururu inyuma yambaye umupira ujya kumera nk'agakoti w'umutuku.

Umugore wipfumbase uri ahantu hijimye, hejuru ye hamezeze nk'ahari idirishya, yambaye igitenge ndetse n'ishati y'amaboko maremare, impande hajya kumera nk'aho ari hasi hameze nk'ahari umusambi, umusambi ugaragaza injishi zawo.

Umugabo ufite imvi yambaye rinete, umugabo afite akantu mu ntoki kameze nk'agashinge, imbere ye hari akandi kantu nk'udukoresho two kwa muganga ducometse kandi twesitaye neza, yambaye agapira kagufi cyane k'amaboko magufiya.

Umwana uri kumwe n'umugabo, wambaye itaburiya. Inyuma yabo hari ikibaho. Cyandikishiho n'amagambo y'ingwa, afite akantu mu ntoki. Yambaye umwenda w'icyatsi. Hirya hari umugabo wambaye kositimu.

Umugabo wambaye rinete ari kwitunga urutoki mu bwanwa, ari kugaragaza amenyo y'igitare meza cyane afite ubwanwa bwinshi cyane kandi ameze nk'uri guseka, arareba asa n'uhumirije.

Umwana n'umuntu mukuru, umuntu mukuru afite uburoso mu menyo, umwana nawe ari gushaka kumwigana, bafite imisatsi isa, bose ni inzobe, bose bambaye udusengeri, bari ahantu h'igitare.

Umudamu wambaye ikarita mu ijosi yanditseho ibyo akora, umugabo ari kumwereka igikoresho mu ntoki ndetse yamufashe ku kiganza ari kumwerekeraho, umugabo ufite imvi wambaye amarinete niwe bari kumwe kandi uyu mugabo yambaye umupira wa rikosita ufunguye ibipesu hejuru, uyu wundi w'umudamu yambaye ikanzu itukura.

Umugabo n'umugore bicaye bose bari gusoma ku mpapuro, imbere hari impapuro zibari imbere zanditseho ibintu byinshi cyane, umugabo yambaye amarinete, umugore afite imisatsi ikora ku matwi, umugore yambaye umwenda upasuyeho ku rutugu, umugabo yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse na rinete.

Umugore ufashe ku maguru arunamye, afite imisatsi iboshye kandi izirikiye hejuru, yambaye umupira ufitemo akabara gatukura mu ngofero yawo, yambaye n'agapantaro k'umutuku kajya gu gusa iroza, afite mu birenge hasa neza, yicaye ku gatambaro gasa neza.

Umugabo n'umugore bari kurebana, umugabo afite imvi z'ubwanwa, umugore na we afite imvi mu musatsi, imbere yabo hari ibiryo bisa n'ibirimo imboga n'ikirahure. Umugore amenyo ye ameze nk'aho ari guseka, areba mu maso h'umugabo.

Abantu bicaye bose bambaye udupfukamunwa. Imbere hari ufite ibikoresho bimeze nk'ibitabo ameze nk'u kwandika yambayega mu ntoki. Inyuma hari abandi bicaye bose bahanze amaso imbere, harimo biteze utuntu mu mutwe, harimo ufite imisatsi iziritse ijya hejuru. Bicaye ku ntebe zimeze nka pepetire.

Uwambaye imyenda y'ubururu ari guterwa urushinge ku rutugu, uwambaye ijire n'ishati y'umweru ari ku mujomba yambaye ingofero y'abasilamu bose bambaye udupfukamunwa, afashe ku rutugu ari guhina umwenda.

Abantu benshi cyane. Harimo abambaye ikositime na karuvate. Bamwe baricaye abandi barahagaze. Hejuru yabo hari amatara acanye. Impande yabo hari ibyapa by'ibirango. Byanditseho amagambo atandukanye.

Inyubako y'igorofa ifite amagorofa abiri agerekeranye. Imbere yayo hari abantu, uruzitiro rw'ibyuma rifite irangi ritukura. Imbere yaho hari imodoka yegereye icyapa cy'igitambaro. Mo imbere naho hakabamo indi y'umukara, ha jaride nziza cyane.

Inzu ifite icyapa kiri imbere yayo; iki cyapa cyanyandikishijeho ibara ry'umweru ku magambo acyanditseho. Kiri hagati mu ndabo nyinshi cyane, imbere hari akayira kameze nk'umuhanda ndetse hisanzuye hajya kumera nk'imbuga; hirya hari igiti kirekire. Inzu ifite inkingi eshatu zisize irangi ry'mweru ku rubaraza rwayo hahagaze umuntu wambaye imyenda y'igitare.

Inzu ifite icyapa kigaragaraho amagambo yanditse, ifite amagorofa abiri agerekeranye, amadirishya atandukanye ari agaragara nkaho akinguye, inkingi zifashe urubaraza rwayo hejuru, zifite irangi ry'igitare zisizeho ndetse n'irindi range ryijimye.

Inzu y'umweru ifite amadirishya agera kuri ane ifite indi nzu iyishamikiyeho imbaraza ebyiri imbere hari umurasire utanga umuriro w'amashanyarazi aturuka ku zuba imbuga isa nkaho irimo ivumbi, hirya hari ibiti birebire bisumba inzu isakaje amabati y'ubururu.

Umwana wicaye mu kagare gafite amapine abiri ari kugenda mu nzira imeze nk'iriho amapave, hirya hari inzu ifite amadirishya y'ibirahure, hari undi uhahagaze wambaye agapira k'umuhondo umeze nkaho ari kure imbere hafi yabo hari akajaride karimo indabyo.

Umugabo uri gupfukwa ku kirenge, yambaye inkweto y'umukara ifite rasi z'umutuku, yambaye n'isogi bari kumupfukisha utuntu tw'umweru ku kirenge, umugabo uri kumupfuka yambaye nk'umuganga.

Umugabo uri kurira ameze nk'umuzungu, ari kurira igikoresho gisa umweru, munsi ye hari undi mugabo wambaye imyenda y'ubururu ufite ikintu cy'umutuku mu ntoki, inyuma ye hari undi mugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umukara.

Ururabyo rufite amababi atoshye cyane rufite akarabyo gatoya nako gafite amababi atoshye, ruhagaze ahantu heza cyane ruhagaze rwemye, rufite inkoni yarwo ndende cyangwa se inkingi yarwo ihagaze ndende.

Indabo ziri mu tuntu dutandukanye ziteretse, hari izipfunduye indabo zasohotse, hejuru hari izimeze nk'igikakarubamba, hasi hari akantu gateretsemo utumeze nkaho ari utuntu turibwa.

Igikoresho kimeze nk'isahani, gikebeyeho akantu umeze nk'uruboga amaronji mo imbere hagaragara nkaho harimo umutobe w'amaronji. Hirya hari ikiganza kiri kubishyiraho biteretse ku meza ariho agatambaro.

Igiti gifite amababi atoshye cyane, inyuma gifitemo ibindi biti bifite amababi ajya gusa umuhondo kubera ko adatoshye, hasi hari akantu kameze nk'uruzitiro kagaragaza utuntu tumeze nka senyenge, dufitemo utwenge tumeze nk'utwasenyenge.